Icyapa kiri mu ibara ryijimye, hakaba hariho umugabo usa n'ukuze ndetse kikaba kiri kwerekana ko hari serivisi cyangwa se ingoboka zihabwa abantu bageze mu zabukuru.

icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu gisa naho cyerekana uko akazi kazajya gakorwa buri saha kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ku cyumweru gahunda y'umuganda ndetse n'igihe cyo kuruhuka kizwi.

Icyapa kiriho umukobwa bisa naho kiri kwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, buhabwa amatsinda n'ibigo bito, ku bijyanye n'ubwishingizi bwo kwivuza ku buryo bworoshye.

Umukobwa ufite akamwenyu mu maso, yicaye mu modoka nziza, ari we uyitwaye. Handitseho gerayo amahoro na orudi muco. Ni byiza gutwara ibinyabiziga ugenda gake.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umuntu ufite terefone mu kiganza, cyanditseho yego nibyo nta kindi bisaba kugira ngo nawe ugere ku mishinga n'inzozi zawe, ukoresheje terefone yawe igendanwa.

Icyapa gifite ibika bitanu, mu ibyo bika handitsemo amagambo yakoreshejwe ibara ry'umukara; ayo magambo akaba asobanura uburyo hatangwa serivise muri banke mu buzima bwa buri munsi, hafashwa abagana banke.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo akoreshejwe ibara ry'ubururu, akaba ari gusobanura serivisi za banki ndetse n'ubundi bwoko bwa banki ntoya zitanga serivisi z'amafaranga.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi, higanjemo ibitenge by'abagore. Niba uri umugabo ukaba ufite umugore, waza ukamugurira igitenge bikamushimisha. Wadodesherezamo kandi n'abana bawe.

Ahakorerwa ubudozi n'ubucuruzi, har'ibikapu bidoze kimwe ariko bifite amabara atandukanye, akaba ari ibikapu bigezweho buri wese yakwishimira gutunga, kandi bikaba bifasha mu gutwara ibintu byinshi mu buryo bworoshye.

Inzu nziza isize amarangi atandukanye ifite urugi ruri mu ibara ry'umutuku hanze yayo hari imodoka zitandukanye bisa naho hari abantu baje kuhasaba serivisi.

Imodoka nziza icanye amatara bigaragara ko iri kugurishwa miliyoni icyenda, inyuma yayo hari izindi modoka ebyiri, imwe yo mu ibara ry'umweru indi ikaba ari umukara ndetse n'inzu hafi y'izo modoka.

Imodoka eshatu nziza cyane ziparitse ahantu hari amakaro, inyuma hari inzu nziza ifite amarange y'umweru n'amatara yaka neza. Nawe ushaka ibyishimo n'umuryango wawe wagura izi modoka.

Imodoka nziza iri mu ibara ry'umweru ikikijwe n'ibiti byinshi kandi birebire. Ndetse hafi yabyo hari indi modoka iri mu ibara ry'umutuku, bikaba bisa n'aho biparitse ahantu hamwe.

Imodoka nziza ifite amabara y'umukara ndetse n'ay'umutuku, iparitse ahantu hari amapave. Abantu benshi bakora bifuza kugira imodoka nziza batwaramo imiryango yabo igihe batembereye.

Imodoka nziza iri mw'ibara ry'umukara iparitse mu muhanda, hakurya yayo hari ibiti birebire, uyishaka wahamagara kuri nimero zeru, karindwi, umunani, gatandatu, gatatu gatatu, umunani kane, icyenda kane.

Igiceri cy'atanu kiri mu ibara ry'ikigina kikaba giteretse ku meza y'umweru kandi manini, iki giceri kikaba kitagikunze gukoreshwa muri iyi minsi.

Kuri banki ahazwi nk'ahatangirwa serivisi z'amafaranga, hariyo abantu batandukanye baje kwaka serivisi ndetse bakaba bari kwakirwa neza kandi ku gihe n'ababishinzwe.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga basa n'aho bari kuvunjirana. Ni byiza ko niba ushaka kuvunjisha amafaranga yo mu gihugu kimwe, ushaka ayo mu kindi, wajya ahemewe kuvunja kuko bashobora kuguha amafaranga atari yo.

Amapaki menshi y'amandazi ateretse ku meza aho abantu bayifuza baza bakarangura nabo bakajya gucuruza, nawe guhera uyu munsi watangira bizinesi y'amafaranga make.

Abantu batatu, abakobwa babiri, umuhungu umwe, bigaragara ko bari muri resitora buri wese akaba afite igikombe cy'amata ndetse n'amajage imbere yabo.

Icyapa cyanditseho inyange milke zone, ubashaka wabahamagara kuri nimero zeru karindwi, umunani umunani, ijana na mirongo itandatu na rimwe, icyenda zeru zeru, ni amata y'ubwoko bwose yaba ikivuguto, yaba inshyushyu cyangwa se ay'ifu.

Umukobwa ufite ibyishimo byinshi, afite telefone mu kiganza, ari kumwe n'umusore, hari icyapa cyanditseho ngo "sangiza abandi ibyiza bya Sipeni uhabwe amafaranga kuri buri nshuti utumiye gukoresha Sipeni."

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, hakaba hariho umugabo uri kwerekana amafaranga atandukanye, inote y'ijana, iya bibiri ndetse n'iya bitanu. Hakaba hariho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu bwerurutse.

Ishusho y'icyapa cy'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu bwerurutse, kikaba kiri kwerekana uburyo wakohereza amafaranga ahantu hatandukanye ku buryo bwihuse.

Icyemezo gihabwa umuntu ubikuje amafaranga muri banki, kikaba cyerekana aya asigaje ndetse n'ayo abikuje, ibi bikarinda amakimbirane hagati y'utanze serivise n'uyihawe.

Umuntu uri kubara amafaranga menshi, hari ari ku meza ndetse n'ayo afite mu kiganza. Bakugira inama ko niba ufite amafaranga, wakwihutira kuyajyana kuri banki kugira ngo abajura batayiba.

Umuntu uri kubara amafaranga menshi yagiye arunda ahantu hatandukanye, ni byiza ko niba ufite amafaranga wakwihutira kuyajyana kuri banki kuko ushobora guterwa n'abajura bakayakwambura.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi, kiriho ibihugu bitandukanye, hakaba herekanyweho uko buri gihugu kigura kikanagurisha ifaranga ryacyo, kandi imibare ikaba yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ameza maremare akozwe mu mbaho, hejuru yayo hariho ikirahure ndetse hakaba n'intebe nziza zikozwe mu mbaho, zikozwe mu buryo butangaje.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bihenze kandi bigaragara neza, hari televiziyo yo mu bwoko bwa furati wareberaho umupira, firime hamwe n'abana bawe mukagira ibyishimo, hari ivaze riteretsemo indabo z'icyatsi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu mbaho, utubati tubiri, intebe z'ubwoko butandukanye, ameza ndetse muri iki cyumba harimo amatara meza kandi arimo kwaka.

Inzu nziza kandi nini isize amarangi meza ay'umweru, umuhondo werurutse, umukara ndetse ikaba izitije ibyuma kuva hasi kugera hejuru na jaride imbere yayo.

Inzu nziza isize amarange y'ubwoko butandukanye ikaba ifite pisine, imbere yayo hakaba hateye intebe ebyiri z'umukara ndetse impande y'iyo pisine hateye imikindo myiza kandi miremire.

Icyumba kigaragara nkaho ari ibiro by'umuyobozi. Hakaba harimo ameza manini kandi ameze neza, ndetse na mudasobwa. Hakaba harimo n'intebe y'icyubahiro.

Abakobwa beza bambaye ikinyarwanda, imishanana y'umweru ndetse n'ubururu, bambaye udusengeri tw'umutuku ndetse n'urugori rw'umweru. Bahagaze imbere y'inzu nziza ndetse n'imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Umukobwa mwiza, ufite ibyishimo byinshi, ari mu modoka y'ibara ry'umweru ayitwaye, hari umusore umuhagaze iruhande, wambaye amadarubindi n'ikote ry'umweru, uteze ibiganza. Haragira hati "wayitunga nawe".

Icyapa kinini cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'andi yandikishijwe ibara ry'icyatsi, kikaba cyereka abaturage uburyo bashobora guhabwa inguzanyo ku buryo bworoshye muri banki popirere.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye nka pavuro, inyanya, insenda, kurujeti, amashu, ibitunguru, karoti n'ibindi bitandukanye. Harimo abagurisha ndetse n'abaguzi.

Isoko ryo mu giturage ritubakiye, aho abaje gucuruza bashyira ibintu byabo hasi, abaje kubihaha akaba ariho babisanga, higanjemo amateke, ibitoki, karoti, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, nk'inkweto, ibikapu, imyenda y'ubwoko bwose, harimo abakiriya ndetse n'abagurisha. Umusore umwe aratambukana n'umukobwa, wambaye agakanzu k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Isoko rihuza abantu benshi yaba abacuruzi, abaguzi ririmo ibicuruzwa bitandukanye; nk'inyanya, intoryi, dodo, imiteja ndetse n'ibindi bicuruzwa bikenerwa ku isoko mu buzima bwa buri munsi.

Isoko rinini risakaje amabati asa n'ashaje ririmo ibicuruzwa bitandukanye, imyenda y'imipira, amapantaro, amakanzu, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi.

Isoko ryiza kandi rinini, ririmo ibicuruzwa byinshi nk'ibitoki, kabati, ibitunguru, intoryi, inyanya n'ibindi, hakaba harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi benshi uyu munsi.

Isoko ry'imbuto z'ubwoko bwose nk'amaronji, avoka, imineke ndetse n'ibitoki, hicayemo umugore ukenyenye igitenge cy'umutuku.

Mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye amamoto, amamodoka, amagare, impande z'uwo muhanda hari abatwara ibinyabiziga bategereje abagenzi.

Inzu ya etage igeretse kenshi iriho ibyapa bitandukanye bigaragaza ibyo bahakorera, hari koje popirere di Rwanda, ni Banki waza kubitsamo amafaranga yawe, ukaba wizeye umutekano wayo.

Umugore wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, afite agasatsi gake yicaye mu isoko ririmo imbuto nk'imineke, inanasi, ibinyomoro, amaronji ndetse na avoka.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, ibinyabiziga nka moto, imodoka, amagare ndetse hakaba hari inzu ndende iri hafi y'umuhanda, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse n'ibyapa biyobora abantu.

Hamwe na MTN urahabwa jigabayiti imwe ku buntu mu gihe cy'amezi atatu, wikwisondeka kanda akanyenyeri gatatu, kane, gatanu, akanyenyeri, umunani, urwego, uryoherwe n'inyongera ya interineti muri MTN.

Akazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo, gafite amadirishya abiri afunguye, bisa naho umwajenti ariho atangire serivisi, hahagaze abantu batatu bari kumusaba serivisi.

Akazu gatoya ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo, hahagaze abantu bashaka serivise zitandukanye. Aho wagura amayinite, ukohereza amafaranga cyangwa ukabikuza ku buryo bukoroheye.

Akazu gato kari mw'ibara ry'umutuku ka Airtel aho ushaka serivisi zitandukanye waza ukabagana, ushobora gukanda akannyeri, kabiri, kabiri, kabiri, urwego, nawe ukibonera izo serivisi.

Icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo, wakwishyura ukoresheje karindwi, umunani, icyenda, zeru, kabiri, zeru, ukoresheje momo peyi.

Icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo, hakaba handitseho amagambo akoreshejwe n'amabara atandukanye, ayandikishije ibara ry'umukara, ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru. Kikaba kiri kwerekana uburyo ushobora kwishyura ukoresheje momo peyi ntibagukate, igihe uri kohereza cyangwa gukuraho amafaranga.

Akazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo, gafite amadirishya abiri kandi afunguye, hicayemo umwajenti, bisa naho ategereje abakiriya ngo abahe serivisi z'ibyo ashinzwe.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku ndetse n'inkweto z'umukara, ahagararanye n'umumotari wambaye kasike y'icyatsi, umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara. Iruhande rwabo haparitse moto y'umukara iriho igikarito.

Moto nyinshi ziri mu mabara atandukanye, iziri mu ibara ry'umutuku, iziri mu ibara ry'icyatsi, bisa nkaho baparitse aho bategerereza abagenzi habugenewe.

Ufite amafaranga y'u Rwanda miliyoni ijana na mirongo itatu, wagura inzu nziza mu mujyi wa Kigali. Ugatozamo umuryango wawe, hehe no guhora mwimuka, mwagiye ahantu hatandukanye.

Ku mafaranga yawe y'amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi, wabona inzu nziza mu mujyi wa Kigali. Irimo ibikoresho byose nka keto, aho gutekera, kwiziniyeri nziza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Mu mujyi wa Kigali i Kanombe, hari inzu igurishwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu, ifite amabati y'umutuku ndetse isize amarangi y'umweru n'ibirahuri byiza bifite amadirishya y'umukara.

Kacyiru mu mujyi wa Kigali, hari inzu nziza yo gukodesha, aho wayibona ku mafaranga igihumbi na magana atanu y'amadolari ku kwezi, ifite ibikoresho byose aho wayinyinezererwamo n'umuryango wawe.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru ku muzenguruko wayo hasizeho irangi ry'umukara, munsi y'uwo muzenguruko hariho irangi ryerurutse, ikaba izitije uruzitiro rw'icyuma, rusize irangi ry'umukara, munsi yayo hari inzu nyinshi zifite amabati y'ibara ry'umutuku.

Mu Mujyi wa Kigali hari inzu ya miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, aho wayigura ugatuzamo umuryango wawe. Ifite ubuso bwa magana atatu na gatanu kandi mu mbuga yaho haparitse imodoka nziza.

Inzu ebyiri za etaje, hirya yazo hari akazu gateretseho ibigega bibiri by'umukara, hagati y'izo nzu hateyemo indabo z'ubwoko butandukanye, iziri mu ibara ry'icyatsi n'izifite ibara ry'umutuku ndetse hicaye n'umugabo iruhande rw'izo nzu.

Mu gihugu cy'u Rwanda, i Kanombe, i Kigali wahabona inzu ya miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu ifite amarangi meza y'umweru, parikingi ndetse n'igipangu gifite amabara meza.

Isoko ry'ibicuruzwa ryiganjemo ibicuruzwa byo kunywa, nk'amazi, amaji, za yawurute, hakaba harimo umukobwa ubicuruza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'inkweto, amashakoshi, imikandara ndetse n'indi myenda y'ubwoko bwose, hahagazemo umugabo uri kumwe n'umukobwa, witeze agatambaro mu mutwe.

Ku kigo nderabuzima cya Remera, giherereye muri Kigali, hari abantu batatu baje kwaka serivisi z'ubuvuzi, umugabo umwe, abagore babiri basa n'aho bategereje serivisi zijyanye n'ibyifuzo byabo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, kimanitse ku gipangu kiriho amatafari ahiye, handitseho ngo izigamire ugire ejo heza.

Ikarita yo kwivurizaho bita mituweri ikoze mu ibara ry'umuhondo, hakaba hariho agafoto k'umwana mutoya kari mu ibara ry'umweru, hakaba hariho imyirondoro ye yose.

Kwa muganga aho batangira serivisi z'ubuvuzi, hari umubyeyi waje kwivuza akaba ari kumwe n'abaganga babiri uw'umukobwa ndetse n'uw'umugabo, bakaba bari kumuha serivisi nziza.

Umugore uhagaze muri supermarket afata ibintu bigiye bitandukanye. Yambaye ibitenge byiza birimo amabara atandukanye nk'umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'andi. Iruhande rwe hari akagare ari guhaha ashyiramo ibintu.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kunywa ibyo kurya, rikaba ririmo umuntu w'umugabo uri guterura ibintu bisa n'aho biremereye.

icyapa cyanditseho simba supermarket ni ahantu ushobora kujya ugahahira ibintu bigiye bitandukanye byagufasha mu buzima bwa buri munsi, iruhande rwacyo haparitse imodoka iri mu ibara ry'umweru. Ndetse n'inzu ya etage igeretse inshuro nyinshi.